Abagabo babiri bicaye umugabo umwe yambaye umupira w'umuhondo yambaye koteri mu mu matwi ndetse arimo gukanda telefone, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira urimo amabara umukara n'umutuku arimo gusohora amatike, impande zabo hari amaterefone ane bakikijwe n'igikuta cy'amabara y'umweru.